Abantu bahagaze mu kintu cy'ikizu kirimo imodoka y'umweru, igiye kunyura hejuru y'ikintu kimeze nka contorore, hakurya hari amabendera abiri n'ishyamba.

Umuporisi w'umu ofisiye wambaye inyenyeri eshatu, n'umudaso ufashe bote mu ntoki, n'undi mugabo uri hirya yabo ufashe bote aho ziri ku meza bari kuzitegereza. Bari imbere y'akantu kadekoye kariho ibendera ry'u Rwanda gafite umushumi w'ubururu uri kurereta.

Ahantu mu ishyamba, harimo ikibuga gihagazemo abasirikare bambaye amakasike, bafashe n'imbunda, imbere yabo hahagaze umupolisi w'umwofisiye mukuru, ufite ishati izinze amaboko.

Umusirikare w'umwofisiye mukuru yambaye ibirokoroko n'inyenyeri ku rutugu, afite imidari ku mufuka n'impapuro mu ntoki na mikoro yicaye ku ntebe ahantu hatagaragara neza.

Abasirikare bambaye neza cyane, bari ku murongo bari kugenda ahantu mu kibuga, hirya yabo hari jaride y'ibyatsi bigiye kuma, bambaye ibendera ry'u Rwanda n'ingofero na masike, uw'imbere yambaye n'amarinete

Umugabo uhagaze mu kibuga cy'umucaca, hirya ye hari abantu bicaye munsi y'ibiti bihari hari n'amazu ari kureguka, uwo muntu yambaye agapfukamunwa n'ingofero.

Abantu bicaye muri sale mu nama, imbere yabo hari umusirikare n'umupolisi n'undi mugabo hagati. Inyuma yabo hari ibendera ry'u Rwanda ritatse. Umugabo uhagaze imbere yabo afashe mikoro n'urupapuro.

Ndabona ifoto y'abaturage bicaye ahantu mu biti, imbere yabo hahagaze umugabo usa n'uremesheje inama. Hari n'akazu kubatse mu ibendera ry'u Rwanda.

Abantu bicaye biremye inteko, hirya yabo hari ikirere cy'umweru n'ubururu bukeya, bicaye mu mucaca ushaje ahantu hacuramye h'agasozi.

Abantu bicaye bari mu nama ,harimo aba ofisiye bakuru b'abapolisi ,ni umuwofisiye mukuru w'umusirikare, n'abandi basivili bambaye amakoti, harimo n'abadamu, n'abantu benshi. Inyuma yabo hari intebe z'umukara zipanze, abo bantu bari kunywa amazi, buri muntu afite agacupa.

Abantu bicaye muri sale idekoye harimo n'umuzungu hirya hari amabara y'icyatsi n'umuhondo hagati harimo intebe z'amadivu.

Inteko rusange y'abaturage. Iyobowe n'umugore afashe mikoro, hari abatumirwa b'abasirikare ndetse n'umupolisi, hirya hari ishyamba aho bicaye ni mu busitani ndetse hari n'ameza.

Abantu benshi bambaye hasi gusa, hejuru ni ubusa. Harimo n'abicaye bambaye urubindo. Hirya yabo hari ishyamba. Abo bari kuvuza ingoma. Hari na babiri bakenyeye amasume.

Agakangara gateretse kameze neza, gafite amabara azengurutse ya shokora, umufuniko wako urabumbye nta gasongero ufite, gateretse ahantu h'umweru dede.

Igisabo n'udukongoro biteretse ku murongo, ahantu hashashe ibintu by'ibirago birimo amabara, mu nzu y'umwijima yubakishijwe ibiti.

Inkono y'itabi, umuntu uyifashe nta bwo ari kugaragara, ni intoki gusa ziyifashe. Hirya hari agashyamba katari kugaragara neza kijimye.

Abakobwa bari kubyina mu nzu itatsemo udutara tw'utunyenyeri. Hirya ku kibambasi ni ubururu harimo abicaye bari kubareba n'ururabyo ruteretse impande yabo.

Ingoma eshatu imwe ni nini indi ni mwayene akandi ni gatoya. Ziteretse ahantu hameze nk'ahari udutapi, zifite imigozi ahantu heza cyane.

Abakobwa bari kubyina imbyino za kinyarwanda bateze amaboko bikoreye n'uduseke ku mutwe, inyuma yabo hari abantu batari kugaragara neza bigaragare ko hari umwijima.

Abantu bicaye ku kintu cy'igitanda gishashe ku mabuye y'amakoro, mu mucaca utameze neza hariho n'ingoma ebyiri, umuntu uri kuzivuza yambaye ingofero, hirya ni urukuta rw'amakoro rugiye guhirima.

Igikuta cyegetseho isuka nshyashya, iruhande hamennye itaka, hirya ni ahantu hari ikintu cy'ubururu, hino hari isima itanoze.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, impande yabo hateretse indobo. Umwe afashe uruho ari kunywa ubanza ari kunywa ikigage.

Abantu bari kubyina bafashe amacumu n'ingabo mu ntoki, bambaye imigara, hasi imyenda y'ubururu n'umweru, hirya hari igiti kirekire, ndetse n'ikindi kiri guhinguka kimeze nk'ibaraza.

Abagore babiri， umwe ari gusekura， undi ari kuyungururira mu ibasi. Impande yabo harambitse igitenge， harimo inkoko ziri gutoragura， hirya y'aho hahinze imyaka irimo ibigori n'ibirayi.

Uduseke dutatu, tubiri dusa n'umweru n'umukara, akandi k'umutuku n'umweru. Bwose buteretse ku meza y'umweru asa neza.

Abagabo bicaye imbere y’ikibindi giteretse kirimo imiheha. Inyuma yabo hari urugi; ahantu bicaye hari umwijima, ariko hasa nabi.

Umugore wicaye hasi ari kubumba inkono. Hirya hari izo yarangije zisize umukara iruhande rw'inzu y'ibyondo. inyuma ye harambitse ibuye.

Abaturage bari mu rutoki harimo abambaye imyenda y'umweru umuntu umwe agiye kwinjira mu muvure afashe ku biti hasi hashashe amakoma .Agiye kwenga umutobe ,kuko mu muvure harimo ibitoki by'imineke.

Abagore babiri; umwe yambaye agasengeri k'umutuku kanditseho mirongo itatu, bafashe intara mu ntoki bari gugosora ibishyimbo kuri shitingi, hirya ya bo hari ibigori byumye, n'agashyamba karimo uduti dutandukanye.

Agaseke karambitse ahantu hameze nko mu bishyimbo bifite ibara rimwe ry'umukara, gafite amabara y'icyatsi kibisi n'umweru.

Abana benshi bambaye imyenda isa, harimo kamwe kambaye umwenda w'umukara hejuru, bamwe bafashe imirishyo mu ntoki, abandi bikoreye uduseke ,inyuma yabo hari igihuru kijimye.

Uduseke dutatu tw'umweru n'umukara, duteretse muka itajeri, harimo n'utundi tw'umutuku, n'imifuniko, yayindi bategura ku meza ku imbuto

Igikuta cy'inzu gifite amabara y'umweru n'icyatsi, n'amadirishya asize. Hamanitse ingoma, hasi ni umucanga, n'amabuye ya galaviye avanze.

Intebe ziteretse zimeze nk'iziri kugurishwa, hirya yazo hari abantu babiri umwe n'umugabo undi n'umugore, hepfo hari ibiti, hari n'akazu kubakishije shitingi ziteretse ahantu hari igitaka.

Uruboga rw'isogi rufiteho iz'imiteja, rufite ibyatsi bike, n'indabo z'umweru, n'udusage turi kureguka, ahantu ruri ni mu gitaka cyinshi, impanda yaho hari akandi karabo kari guhinguka.

Akazu kubakishijwe imbingo, gasakajwe ibyatsi, ni aka kinyarwanda. Ku muryango hamanitse ibiseke bibiri. Kimwe gifite ibara ry'ubururu, hasi umutuku, ku ruhande hegetse izindi mbingo zitubatse. Hazitijwe urupangu rw'imbingo, ku ruhande hari agati katari kakura.

Abakobwa bari kubyina bambaye udupira tw'umutuku, bose bambaye imikenyero y'umweru n'ubururu hasi. Aho bari gukorera ni mu mucaca.

Abantu bari kubyina bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, mu busitani burimo indabyo zifite amabara y'umuhondo. Hirya hari ishyamba ry'ibijojo, ndetse n'uruzitiro rw'ibyuma. Abandi bari kuvuza ingoma bakoma no mu mashyi.

Abantu bahagaze iruhande rw'imyaka hari umwana uri gusekura ubugari, afite indobo y'ubururu n'imifuka irambuye n'igitebo. Hirya hari imyaka ihinze n'ishyamba.

Imivure ibiri yo kwengeraho, hariho n'ufite udutanda hejuru, hari igishitingi cy'icyatsi, hamanitseho utunyegamo tubiri, kamwe k'umukara n'umweru, akandi gafitemo ibara ry'umutuku n'umuhondo, hejuru hari ikirere cy'umweru, byose bishashe ku birago.

Abakobwa bishimye, bari kuvuza ingoma, bambaye udushumi mu mutwe, basetse cyane. Inyuma yabo hari abandi bantu bari kubareba ariko batagaragara neza.

Abantu basutamye, bafite imiheha bashize mu muvure w'ikigage, buri wese afite uwe arikugotomera, inyuma yabo hari abandi batari kugaragara neza.

Igiti cy'igiko kirimo umutiba w'inzuki, gifite amatabi yumye hakurya hari ikirere kiri kureguka cy'umweru, icyo giti gihinze mu byatsi bibisi.

Umuntu wicaye w'umukobwa ari kuboha inkangara, yambaye udukomo, hirya ye hari umuntu wicaye uri kugaragaza ibirenge gusa, bose bicaye ku birarago.

Umugabo wicaye ari gukama inka, yambaye ingofero, n'ipantaro yubururu, numupira wubururu bwijimye. Ni mu gikuyu gisa neza, iyo nka ni ibihogo bivanze n'ubugondo.

Abakobwa babiri n'abahungu babiri, bari kuvuza ingoma ku muhanda w'igitaka, hirya yabo hari igipangu kizitije boroke sima.

Abantu batatu, babiri barahagaze undi yafashe igiti ari gusimbuka urukiramende rurerure mu kibuga cy'ibitaka, hakurya ni ishyamba ryijimye nikirere gisa n'ubururu.

Abantu b'intore bafashe inkoni mu ntoki. Bambaye imigara, hasi amayogi, nta nkweto bafite .Inyuma yabo hari abandi bataboneka neza, inyuma hari iki etajeri cyubatswe na triplex.

Ababyinnyi bafashe amacumu n'ingabo mu ntoki, bambaye imigara hasi bakenyeye ibintu by'umweru n'ubururu, inyuma yabo hari abandi bari kubyina nk'ikirundo, n'ikirere kivanzemo ubururu n'agashyamba gatoya.

Umugabo wicaye ku kirago akubye ibibero. Yambaye ipantaro y'ubururu, hejuru agakote. Inyuma ye hari amapave ashashe, ku ruhande ni igitaka kiri kureguka.

Abagore bicaye impande yabo hicaye umwana, n'indobo y'umutuku iteretse, bari gucuruza itabi ry'ibibabi. Hirya hari igikuta cy'ibyondo.

Inzu ya kinyarwanda, ishaje, iri ahantu ho mu cyaro. Hirya hateye amapapayi, kandi hari n'ibyatsi bimeze nk'umucaca, hirya y'izo papayi. N'igihuru kiri inyuma y'iyo nzu.

Ndi kubona abakobwa batatu. Bafashe imiheto mu ntoki basa n'abagiye kurasa imyambi. Hejuru yabo hahagaze umuntu w'umusore ariko utagaragara mu maso, bapfukamye ahantu mu kibuga.

Abagabo b'intore bambaye imigara, bafashe n'amacumu, bari kubyina, inyuma yabo hari abasaza bambaye ingofero bari kubaririmbira, harimo ibiti biri kureguka hirya n'agapangu k'imisasa, hari n'ingoma ziteretse muri ubwo busitani n'indabyo z'umuhondo.

Abantu bane bahagaze, harimo abagabo babiri n'umudamu umwe w'umwirabura. Iruhande rwabo hahagaze umuzungu ari kureba imbere ye. Hirya yabo hari inzu ya kinyarwanda.

Abantu bari kubyina, intore. Harimo babiri bameze nk'abazungu. Hirya yabo hari akazu ka muviringo, gafite agasongero, hakurya hari ikirere cy'ubururu n'umweru.

Abagabo bari kubyina bambaye amayogi, bakenyeye n'imyenda, bambaye ibintu mu ijosi n'imigara, hirya yabo hari amapoto n'ingoma ziteretse n'igihuru.

Isuka imanitse, ifite umuhini mushya igodetsemo imisumari, hejuru hari guturuka ikirere cy'umweru, ndetse hakikijwe n'ishyamba.

Abakobwa bari kubyina bateze amaboko, hirya y'aho hari ikintu kimeze nk'ikidekoye cy'umweru, n'akandi kameze nk'agapulizo. Bambaye umweru, n'ubururu harimo n'utubara tw'umutuku hasi.

Igiti kirekire kirimo umutiba winzuki. Gifite amashami atandukanye, kumpande zacyo hari ikirere cy'umweru gisa neza.

Umugore wicaye witeze igitambaro. Ari gukama inka mu ndobo. Iyo nka irajishe, mu kiraro cy'ibiti ,hirya hari utwatsi tubisi turi kureguka.

Umugore wicaye yambaye baji mu ijosi, afashe ibikoresho, ameze nk'aho ari kuboha ibiseke. Yicaye ku kirago mu hantu h'ubusitani bwinshi.

Inzu ishashemo ibirago, hateretsemo intebe ya kinyarwanda, hegetse n'umuheto n'ikindi gifite amabara. Ku gikuta, ni ibisika bitagaragara neza.

Abantu bavanze, abagore n'abagabo bari kubyina; bamwe bambaye imigara n'amayugi, bafite n'amacumu; abandi bakenyeye imikenyero n'udusengeri tw'umutuku imbere y'inzu ya Kinyarwanda.

Ahantu harambitse imivure ishaje yo kwengeramo ibitoki iteretse ku birago, hirya hari shitingi y'icyatsi n'ibirago bibiri bimanitse.

Agaseke gafite ibara ry'umukara rizengurutse imirongo ibiri karapfundikiye gateretse ahantu heza hameze nk'ibara ry'ivu.

Ubusitani burimo imboga z'isogi, iruhande rwazo hateye igikakarubamba, hari imirongo igabanyije ubusitani hirya y'izo mboga.

Itorero riri kubyina, harimo umugabo wasimbutse akagera mu kirere afashe n'inkoni . Hirya yabo hari uruzitiro rwamabuye y'amakoro. Hari n'uduti tw'intusi dutoduto tutari tureture.

Abantu bari gukina igisoro, bicaye ku ntebe ndende, bafashe agacuma n'akaboko kamwekamwe, hirya yabo hari abasore n'abana, bari kubareba uko bari gukina. Hari igihuru kigufi, giteyemo insina imwe hirya yabo.

Ipensi irambitse ahantu heza hasa n'akameza, ifite ibara ry'umuhondo, hari utuyuguti tw'umukara twanditseho, na yo imbere ni umweru.

Turunovisi irambitse ahantu heza hameze nka kameza, ifite ibara ry'umukara n'umuhondo, hari n'akantu gasa n'umutuku mo imbere.

Inzu ndende ya etaje yubatse n'amatafari ahiye, amadirishya yayo ni ubururu, hejuru yayo ni ikirere cy'umweru n'ubururu.

Inzu ya etaje, yubakishijwe amatafari ahiye. Ifite ibirahuri byiza, impande isize amabara y'umuhondo. Hirya yaho hari ishyamba, ifite ubusitani, hari akantu k'umutuku kari hino yaho. Hari n'ikirere kiza cy'ubururu n'umweru.

Abantu bahagaze bavanze abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'abafundi n'amakasike, amajire y'icyatsi hirya yabo hari ibigega by'ubururu, n'inzu ndende isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri, hagati hateyemo umukindo n'uturabyo dutoya, hirya hari guturuka imodoka, hari n'abantu bari ku ruhande bari kugenda. Hirya tena hari inzu y'umweru ifite amabati atukura ahantu h'urupangu rw'amatafari ahiye.

Ipota y'amashanyarazi, iri mu kirere cy'ubururu n'umweru, hafi yayo hari amakoro, n'ibishyimbo by'umushingiriro bitari byera. Hari n'amazu ku ruhande ayikikije, n'ishyamba riri hirya.

Inyubako y'akagari ka Sahara yubakishijwe amabati y'umutuku, hasi ifite amadirishya ane, imbere hari abana batatu bahagaze n'ibendera rizamuye.

Inzu yubakishijwe y'amabara y'umuhondo, hejuru icyatsi , hagati ibirahuri by'ubururu .Hirya ni ikirere cy'ubururu n'umweru ,hasi ni amapave mukibuga.

Urusengero rushaje imbere n'amapave, hejuru hari ikirere, cyijimye cy'ubururu n'umweru, hino hari igitaka kivanze n'amabuye, mbese hari umwanda.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye rutakishijwe amabara y'umweru n'utuntu tw'umweru tuzamutse. Imbere hari utwana tubiri turi gutambuka impande yarwo hari n'ibiti birebire biri hino mu mucaca ushaje.

Ruhurura ifite ikiraro cyubakishije ibyuma kigizwe n'imbaho, hari abantu babiri bari gutambuka bambuka, bava hakurya bajya hakuno, ni ahantu h'ishyamba rigizwe n'inturusu z'umweru zitarakura.

Urusengero rw'adeperi rufite ibirahure by'umukara rusakajwe amabati y'umutuku, ku mpande inkingi zubakishijwe ruriba imbere yaho hari imodoka ziparitse ahantu h'amapave, n'agakiyosike ka emutiyene kari hanze y'urupangu mu muhanda w'igitaka hejuru, hari insinga z'amashanyarazi ziciyeho n'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Ikizu kimeze nk'urusengero rushaje ,hirya y'umucaca utameze neza ,hari ibirabyo bibiri bikase ,n'ibiti bibiri biri kureguka ku mpande.

Inzu ya etaje yubatse mu buryo bwa konoshi, imbere y'aho hateye indabo harimo n'ururabo rw'igitembateme. Ku muhanda w'igitaka hejuru hari amabara y'ikirere y'umweru n'ubururu.

Inzu ya etaje imbere yayo hari ikibuga cy'ibitaka, hirya yayo hari ikirere kivanze umweru n'ubururu, hari n'umucanga urunze haruguru.

Ibyuma bibiri bishinze ahantu ku gasima bifite amabara y'ibendera ry'u Rwanda. Hari insinga zifasheho hirya no hino, hakurya hari agashyamba, no hino harunze ibyatsi byumye.

Urupangu rwubakishijwe amabuye y'amakoro ruri ku muhanda wa kaburimbo, hari umuntu w'umukobwa uri kumanuka impande. Hagati harimo inzu ya etaje ifite amadirishya menshi yubatse uburyo busanzwe, hari n'ikirere cy'umweru.

Igipangu kirimo inzu isakaje amabati yumutuku ,hari ipoto iriho insinga, itara n'igiti kirekire k'inusi gikuze, Ni akandi gatoya , kumuhanda wa kaburimbo ahantu hari zebra crossing.

Igipangu cyubakishije ruriba. Hariho icyapa cy’Abahamya ba Yehova, hejuru yacyo hari ibyatsi bihakikije by’indabo. Ku mpande, hari akandi kapa k’umweru kari gushaka guhinguka ku gikuta cya sima.

Urusengero rushaje rumeze nk'urwabagaturika hejuru hari guturukayo ishyamba ritagaragara neza, no hino hari umucaca ariko udafite isuku no hepfo hari insina rukikijwe n'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Inzu iri kumwe n'ishyamba ifite imiryango y'ubururu hari n'akantu kubatse nk'agahangari ku ruhande, hino yaho hari ikibuga gishaje kirimo utwatsi duke duke n'amabuye arunze.

Urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye rusakajwe amabati y'umutuku. Ruriho ibyapa bibiri. Hino hari ibyatsi by'umucaca, ku ruhande hari amapave, hejuru hari ikirere cyijimye, ubururu n'umweru.

Amazu yubakishejwe amatafari ya ruriba, iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo mushyashya na pasiparume zishaje, hejuru hari ikirere cy'ubururu bwijimye.

Inzu y'imiryango itatu imeze nk'ishuri, imbere hari ibendera rizamuye, hari umugabo uri kugenda yegera iryo bendera, munsi yaho hari jaride iteyemo agati, ku ruhande rw'iyo nzu hari ikigega.

Amazu abiri ari kugaragaza imiryango, imbere yayo haparitse imodoka mu kibuga cy'amapave, inyuma yayo mazu hari nandi ari kugaragaza amabati gusa, hirya hari na etage mu kirere cy'ubururu bwijimye, n'umweru n'umusozi uri kureguka.

Urusengero ruri ahantu hitaruye hateye umucaca hanyuzemo akayira k'igitaka imbere hari amapave ari guhinguka inyuma yayo hari ibiti by'ishyamba byinshi hakurya hari ikirere cy'umweru n'ubururu.

Umuntu wambaye ipantaro izinze yicaye mu ntebe y'imisego, imbere ye hari akameza n'izindi ntebe, mu nzu isize siperisolo y'umutuku ishaje, igikuta gifite ibara ry'ivu.

Abantu batatu bicaye imbere y'ameza atatu y'umuhondo, hirya hari utuyetajeri duteretseho ingoma, inyuma yabo hari ikintu kimeze nk'ikibaho cy'umukara, umwe yambaye ingofero hejuru hari ibara ry'umweru risa n'iriri ku gikuta.

Inzu imeze nk'urusengero . Iri hagati y'ishyamba mu biti by'intusi . Hino yayo hari ibyatsi by'umucaca byumye n'akayira karimo amabuye .Hakurya ni ikirere cyubururu n'umweru.

Inzu nziza ifite irangi ry'umweru n'ibati ry'umutuku rigezweho. Hejuru hari ikirere cyijimye cy'umweru n'ubururu, ku mpande ni umweru.

Ibiro by'akarere ka Gakenke, imbere hari amabendera abiri, iry'u Rwanda n'irya Isitafurika. Hagati mu kibuga, ni amapave. Ku mpande hari utwatsi turi guhinguka twa jaride.

Ikiraro cy'imigozi kiriho senyengi, hariho ibipirizo bitatu, bine by'ubururu, na bibiri by'umuhondo. Hari n'ibisima by'ubururu, hakurya hari abantu bari kukigendaho, hari n'umurima utari kugaragara hakurya, hino ya ho hari, ibiti bibiri biyumbaje.

Ni ahantu hameze nko mu ruganda, harimo ibyuma bitandukanye bimanitse ibindi birambitse harimo na bya bindi bya kizimyamoto biteretse bibiri by'umutuku. Hakurya hari ishyamba n'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda wa kaburimbo. Hariho icyapa cyerekana ko iyo nzu ikorerwamo， hari n'ahantu ho gukarabira， n'umuntu ufashe ijerekani mu ntoki， hejuru mu kirere cy'ubururu n'umweru， harimo insinga z'amashanyarazi，n'umurindankuba.

Ahantu hameze nk'ikigo cy'amashuri hubakishijwe amatafari ahiye, asakajwe amabati y'umutuku hakurya yaho hari ishyamba, no hino hari inzira imeze nk'agahanda k'igitaka, munsi yaho hari umucaca.

Abantu bane bicaye wagira ngo bari mu nama, inyuma yabo hariho ibyapa byanditseho IPRS. Ni mu nzu nziza itatse, imbere yabo hari akabati k'ameza gasize verini n'ururabyo rumeze nk'umukindo.

Inzu y'urukiko rw'ibanze rwa Mukamira, ishaje ifite ibati ry'umutuku. Impande hari abantu bambaye imyenda y'umutuku, n'amazu ari kurenguka y'ibibati by'ubururu. Hakurya hari umusozi uriho ibiti by'ishyamba, no hino harahingaguye.

Ahantu hari sitasiyo, harapavomye, hirya ya ho hari amazu ayikikije, n'umusozi hakurya ya ho. Ikirere cya ho kirimo ubururu n'umweru buvanze.

Inzu y'amatafari ahiye, isakajwe amabati asanzwe. Ifite amadirishya y'umweru n'ikigega ku ruhande . Hino yayo hai udusikariye n'umucaca utaraguritse n'uturabyo tw'umweru. Hirya hari ishyamba n'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Abantu bicaye, abandi bahagaze ahantu mu kibuga hacuramye ho gakeya. Munsi yabo hari inzu isize amarangi y'umuhondo, n'ibati ry'umutuku rishaje. Hirya gato hari ishyamba ririmo uduturusu dutatu. Hari n'undi uhagaze, afashe mikoro ayerekeje ku wundi mugore.

Abantu bicaye, biremye inteko, hagati y'ibiti bitari birebire cyane, bazengurukije intebe z'ibiti by'imbaho, hirya hari banderore y'ubururu ihashinze.

Abantu benshi bicaye batuje, umwe arahagaze afashe mikoro, ni mu nzu ifite amarangi y'umuhondo idekoye ukuntu, bicaye ku ntebe za parasitike.

Abantu bamwe bicaye abandi barahagaze, umugore afashe mikoro ari kuvuga, iruhande rwe hateretse apuri no hirya hari amazu, imwe ifite ibati ry'umweru indi irashaje, ntabwo iri kugaragara neza n'intoki ziri kuruhande.

Inteko y'abaturage yicaye bari gukoma amashyi umwe yiteze igitambaro azamuye amaboko, hagati yabo hari inkingi ebyiri hirya hari inzu imwe ifite ibati ry'umweru n'indi itagaragaza ibati.

Abantu bari ku murongo wagirango ngo bari gutanga ibibazo uw'imbere afashe mikoro n'ingofero mu ntoki hirya hari abandi bicaye mu mitaka ndetse hari n'ishyamba n'amazu ari ku musozi hakurya.

Moto ya lifanani itwaye abantu bambaye amataburiya y'umweru bafite ibyapa bya efuperi, hirya yayo hari imodoka ziri guturukayo no hejuru hari icyapa kiri munsi y'igiti. Inyuma yayo haparitse abamotari basanzwe.

Bisi iri kugenda mu muhanda irimo abantu. Hepfo yayo hari inzu ya etaje, iteyeho ibiti by'imikindo bishaje. Hari n'icyapa cyanditseho inyuguti z'umweru cy'umutuku. Mu muhanda nta kaburimbo iri kugaragara.

Imodoka ebyiri zishoreranye，imwe ni umweru，indi ifite ibara rishaje， hejuru hicayeho abantu bicaye ku bintu ipakiye，hari n'undi uhagaze ku muryango wa shoferi，n'abandi bahagaze ku ruhande， mu gitaka. Hameze nk’aho atari mu Rwanda， kuko imihanda yaho irashaje.

Imodoka ya bisi yanditseho Kigali Kampala, iruhande rwayo hari icyapa cyanditseho Kagitumba boda, hirya hari inzu isakajwe amabati ihomesheje karabasasu.

Umuntu uri ku igare uhetse umufuka. Hirya hari ishyamba rikikije umuhanda w'igitaka ari kugendamo.

Amagare abiri y'abantu bafite ubumuga apakiye amajerekani y'amavuta n'amakarito. Hirya hari umugabo uhahagaze wambaye ikoti, inyuma hari abandi bantu bari gusunika ayo magare.

Mu muhanda, imodoka n'amamoto biri ku mirongo byahuye n'ambutiyaje, ku ruhande hari ibiti by'imikindo birebire. Ni mu muhanda wa kaburimbo, imbere yabo hari ibiti n'andi mazu y'umweru atari kugaragara.

Moto za rifani zitondekanye ku murongo, hirya yazo hari abantu bahagaze, hari n'imodoka ibiri z'amakamyo ziri hirya cyane. Hari rifani imwe ifite umushumi waguye hasi.

Umuntu uri kuri moto y'icyatsi kibisi yambaye imyenda y'abamotari, hirya ye hari kontineri iriho icyapa cy'igitambaro cy'umuhondo, n'akantu k'umukara kometseho.

Moto ya lifani y'ubururu ifite imbere utubara tw'umutuku. Iri muri kaburimbo ku ruhande igikuta ni icyatsi gifite n'ibyuma bya senyengi, hirya ni ishyamba.

Imodoka nyinshi z'amakwasiteri, kumpande hari amazu n'abantu bari kugendagenda. Imodoka imwe ni umutuku ndetse hagati harimo ikamyo.

Imodoka ya bisi isa na ya yinindi ya shirumuteto. Mu muryango harakinguye harimo umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, undi ari kumusunika yambaye ikabutura n'agapira k'ubururu, hari n'undi hirya wambaye ishati isa n'iriya bisi uri kureba nk'ugiye kwinjira.

Abantu bahagaze hamwe, bamwe bicaye ku magare, abandi bahagaze inyuma yabo, benshi bambaye imyenda y'ubururu n'amajire bigaragara ko ari abanyonzi. Inyuma yabo hari urukuta rw'ibyuma n'inkingi z'amatafari ahiye, hari n'insinga z'amashanyarazi zinyuze hejuru yabo, bigaragara ko baparitse ku muhanda.

Umumotari ufite moto ya yindi bakoresha batiri, hirya ye hari imodoka irimo abantu n'inzu ya etaje y'ubucuruzi, hari n'indi moto iri kumureba hino n'akakiyosike ka emutiyene.

Imodoka y'ikamyo iriho icyapa cy'amavuta yo kwisiga . Iratukuye iruhande rw'umurongo w'indabyo n'ishyamba riri hakurya , hino ni umuhanda wa kaburimbo urimo zebure korosingi.

Abamotari batatu baringaniye mu muhanda wa kaburimbo , inyuma yabo hari umuntu uri kugenda n'amaguru . Hakurya yabo ni imisozi iriho amazu , ku ruhande gato hari ikibabi cy'umukindo n'amazu biri guhinguka.

Indege ya Rwandeye. Imbere yayo hahagaze abantu, hari n'ibindi byuma bihari, bigaragara ko ari ku kibuga k'indege, hari n'umusumari wawundi bashyira mu muhanda, igihe habaye ikibazo.

Mu marembo ya gare neza, harimo imodoka ya minibisi iri gusohoka n'iyindi iri inyuma yayo, abantu ni urujya n'uruza bamwe bari kwinjira, abandi basohoka, hakurya hari ikirere cy'umweru n'ubururu, imbere yaho ni kaburimbo gusa.

Ndi kubona imodoka y'ihoho isa n'iyapfiriye ku muhanda inyuma yayo hari indi iri guturukayo ariko iya mbere isa niyapfuye igeze mu gasatere.

Imodoka z'amakamyo ziparitse. Hagati yazo hari abagabo bahagaze bari kuganira. Hari n'undi uri kurengarenga, imbere yabo. Hirya hari ishyamba rirerire ry'intusi.

Abantu bari kuri moto mu muhanda wa kaburimbo. Umwe yambaye ijire y'umutuku. Hirya hari ugiye kwambuka kuri zebura, amazu akikije hariho n'amapoto ku muhanda.

Umukobwa uri ku igare ahetse udufuko tubiri, ahuye n'umuntu w'umusore wambaye ipantaro y'itiriningi n'umupira, imbere ye hari imodoka iparitse hakuno hari umuntu ufashe agakoni w'umugore.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga, moto n'irindi gare riri kugenda risunika umufuko. Hari umugabo wambaye amatiriningi uhagaze mo hagati, n'uwundi uhagaze utegereje imodoka, uteretse igikapu hasi uhetse n'umwana. Ku ruhande ni amapave, hakurya hari ishyamba n'ikirere, n'inzu y'ubururu.

Inzira y'abanyamaguru iriho umukobwa uri kurengarenga. Ku ruhande rw'iyo nzira y'abanyamaguru hari amagare abiri ya siporo, ari kugaragaza ibice by'imbere gusa.

Ib'imodoka by'ibihoho bibiri biparitse, hirya yabyo n'ibiti birebire byishyamba, no hino n'ibibaho bishaje birambitse m'umuhanda, hari n'imipine irambitse hasi ni m'umuhanda w'igitaka.

Imodoka za kwasiteri ebyiri zishoreranye. Ziri gushyiramo abantu, hari n'abandi bahagaze ku mpande. Ni mu muhanda w'igitaka, hirya hari agashyamba kameze nk'umucaca.

Ahantu bategera imodoka, hari amakwasiteri na za modoka ngufiya, imbere yaho hari inzu ifite ibara ry'umuhondo, iriho n'ibyapa ku ruhande hari abantu bikoreye akazigo bari kugenda.

Imodoka y'ikamyo iparitse ku muhanda, ifite ibara ry'umutuku imbere n'umweru. Hirya hari igiti cy'umunyinya, ndetse n'irindi shyamba rigufi, hakurya hari ikirere cyijimye cy'umweru n'ubururu.

Abamotari bahetse abantu, hirya yabo hari imodoka y'umukara na rifani ipakiye ibintu bitwikirije shitingi y'ubururu, hari n'agakiyosike ka emutiyeni imbere ya etage iriho icyapa cy'ubucuruzi, gifite ibara ry'icyatsi.

Imodoka y'umuhondo itwaye abantu benshi hejuru. Iruhande rwayo hari umugabo uri ku igare uri kureba inyuma umugore wikoreye agafuka karimwo ibintu. Ku mpande hari udushyamba twi'ibyatsi. Ni mu muhanda wigitaka.

Abantu benshi bambaye imikenyero, bari kuvuza ingoma imbere yabo hari utuntu tw'icyapa no hirya, har'inzu y'umuzenguruko, hari ibyapa bya bandelole n'ikirere cyijimye.

Abantu benshi bambaye imyenda ya siporo bameze nk'abari mu myitozo , hirya yabo hicaye abandi benshi wagira ngo bari muri sitade . Hejuru hari ikintu kimeze nka tereviziyo , hasi ni butaka bw'umuhondo.

Abantu batanu bicaye ahantu hari intebe z'ubururu , umwe yambaye karuvati , undi ishati ya medini Rwanda . Abandi ni imyenda z'ibendera ry'Urwanda , inyuma uhicaye ntabwo ari kugaragara neza , bigaragara ko bwije.

Abantu b' abagabo n' abana, bambaye imyenda yanditseho Rwanda dirimusi, bafashe umupira w' isengeri mu ntoki bari kwamamaza, inyuma yabo hari ibirabyo bishaje n' utuzu turi guhinguka.

Abantu bari ku magare b'abakobwa bafite amakasike, umwe yambaye agapfukamunwa , yifashe ku munwa. hirya hari ishyamba rya pinusi, bahagaze ahantu h'umuhanda udakoze. Inyuma yabo hari abandi babiri batari kugaragara neza.

Abasore bari kwirukanka ni batandatu, n'ahantu h'umuzenguruko hameze nko muri sitade, itatse amabara y'ibendera ry'u Rwanda, hari n'udusikariye turi hafi yaho.

Abantu bari ku magare bari mu masiganwa muri kaburimbo, ifite umurongo w'umuhondo, inyuma yabo hari imodoka zishoreranye zibakurikiye, hakurya hari amapoto y'amashanyarazi, n'umusozi uriho ibyatsi bigufi.

Abantu bari kwiruka n'amaguru bambaye imyenda ya siporo, hari uwambaye umupira w'umuhondo afite n'icyapa cyanditseho karindwi inshuro eshatu, bari kwirukanka ahantu hasa neza.

Umukinnyi w'Amavubi n'undi wo mu kindi gihugu. Hagati yabo harimo umupira, hakurya hari abantu bicaye muri sitade bari kubareba, mu kibuga gifite ubwatsi bumeze neza.

Umukobwa uri gukina tenisi yambaye inkweto z'umukara n'umutuku n'amasogisi y'umweru, jezi igiye kuba icyatsi kibisi yarambuye ikiganza akandi kaboko gafashe agakinisho ka tenisi. Afunze shinyo umusatsi we ni muremure cyane arishimye cyane bigaragara ko agiye gutsinda.

Abakinnyi bari mu myitozo bambaye imyenda y'ubururu, harimo na ruje borudo, bari gukina bicaye. Umupira uri hejuru umeze nk'urwa vore. N'ikibuga gisa na cyo. Hakurya hari inzu isa neza, ifite amadirishya na yo y'ibirahuri, n'utuntu tubiri twa kake tuzamuye tumeze nk'udutatse iyo nzu.

Abakobwa bari gukina vole, babiri bambaye umuhondo n'icyatsi hasi amasogisi hari uwambaye ku maboko ibintu by'umutuku no ku mavi. Hakurya sitade igizwe n'ibendera ry'u Rwanda. Mu kirere harimo vole yitereye. Hari umugabo wambaye agapfukamunwa uri kubareba wambaye ipantaro y'icyatsi.

Abakinnyi ba basiketi bambaye ibendera ry'u Rwanda, bicaye bari kwifotoza ahantu heza. Inyuma yabo hari inkangara ya basiketi, n'inzu nziza ifite akantu k'umukara hejuru.

Ndabona umukobwa ufashe umupira wa basiketi mu ntoki, yifashe mu manyankinya n'ukuboko kumwe ukundi gufashe umupira, nkabona yambaye agakabutura gatoya n'agasengeri gatoya , bigaragare ko atari gukina basiketi arayifashe gusa.

ambakinnyi basa n'abari mu myitozo, hino yabo hari undi wambaye ubururu uri gusinya, n'undi wambaye umuhondo wanditseho cumi na rimwe, imbere yabo hari uwicaye uri kubasinyisha, n'utuntu turambitse ku meza, tumeze nk'ibitabo.

Ikibuga cyiza kiriho imirongo ibiri, igaragara n'indi itagaragara y'umweru, kizitijwe ibyuma by'ubururu na senyenge hagati hateretse intebe yo kwicaraho y'imbaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bari ku magare. Bari mu masiganwa, bambaye imyenda itandukanye amabara. Ku mpande hari abashungereye bari kubareba, hirya ni ibiti by'ishyamba birebire n'amazu ari kureguka ku ruhande.

Abantu bari gukina vole babiri bambaye amasengeri y'umutuku no hasi ubururu, undi yambaye jezi y'umweru yanditseho icumi ku kabutura, hirya hari abantu bari kubareba n'ishyamba.

Abantu bambaye imyenda ya siporo. Bamwe bambaye imyenda y'ibendera ry'u Rwanda, abandi bicaye bambaye imyenda y'umuhondo n'umutuku, harimo n'abambaye ingofero. Bicaye mu itente, hejuru hari igihuru kivanzemo ibara ry'umutuku n'icyatsi.

Abantu bane bari kwiruka; batatu bambaye imyenda y'umuhondo ya siporo, ku ruhande hari uwambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro, hino hari umugabo ufashe igitabo wambaye ingofero y'umutuku n'agapira k'icyatsi, n'ipantaro yubururu. Hirya hari igiti n'ipoto hari n'umugabo uri kuhareguka wambaye ishati y'umweru.

Umukobwa uri kwiruka afashe baro mu ntoki, ari ahantu hameze nka pisine mu nzira. Inyuma ye, hari umugabo wambaye umutuku n'umukara, ari kumwirukaho, hirya hari abantu bicaye ku byuma, bari kubareba.

Abantu bari kwirukanka bari mu masiganwa bambaye imyenda itandukanye amabara, n'inkweto zitandukanye amabara, bigaragare ko bari mu marushanwa.

Abakobwa bari gukina tenisi mu kibuga gisa neza, gifite imirongo yu'mweru, gisize ibara ry'igitaka. Hirya hari abantu bari kubareba, babashungereye.

Umukobwa wambaye amanjezi y' ibendera ry' u Rwanda afashe umupira mu ntoki, ari ahantu bakinira h' umucanga, hirya y' aho hari ishyamba rirumbaje n' umucaca.

Umuntu uri gusimbuka ahantu kuri tapi, ameze nk'uri mu marushanwa yo kwiruka, inyuma ye hicaye umuzungu wambaye amarinete, hirya hameze nka sitade itarimo abantu.

Ikivunge cy'abantu, harimo umuntu umwe uri ku kagare, yambaye na kasike abandi bari kwirukanka bamukurikiye, bari gufana, hepfo harimo abantu b'abaporisi bari mu baturage n'amazu y'ubucuruzi ari ku muhanda w'amapavi.

Abantu bicaye ku magare bambaye imyenda ya siporo basa nabiteguye kwirukanka. Hirya yabo hari inzu itatseho amabara, bahagaze mu muhanda utari uwa kaburimbo.

Abantu bari gukina umupira w'intoki bazamuye amaboko afashe kuri iyo balo, inyuma hari abantu babashungereye bari kubareba ni mu mwijima.

Umuhanda wa kaburimbo urimo iturongo ducagaguhe tw'umuhondo hari n'amamoto ari kurengarenga kumpande n' amapave ndetse hari n'amazu ariho amabara y'umutuku, n'amapoto ndetse n'ishyamba hirya hari ubusitani ku ruhande.

Agahanda k'igitaka karimo amabuye karezemo amazi. Harimo umugabo uri kugenda yambaye ishati ya kaki n'ipantaro y'umukara. Munsi hari amazu atari kugaragara ariko hariho n'imyaka imeze nk'ibishyimbo.

Ahantu hijimye, hameze nka pasiparume zishaje, hagati hanyuzemo akayira bamennyeho ibintu by'umweru. Hirya hari uruzitiro rurimo amazu atari kugaragara neza, n'ipoto y'amashanyarazi, hejuru yabyo hari ikirere cy'umweru.